Umugabo uhagarariye ishami rishinzwe Siporo muri MINISPORT ya Rwanda Cricket Association ari mu nama arimo kungurana ibitekerezo n'abagenzi be b'abayobozi.

Ifoto y'urwibutso y'abayobozi batandukanye bavuye mu nama hari ibyo bigagaho ikigaragara cyo hari icyo bagezeho kandi hari ingamba zifatiwemo zishobora kuba zagira icyo zihindura.

Inama yitabiriwe n'abagore n'abagabo bakiri urubyiruko barimo kwigira hamwe ku buryo urubyiruko rwakwihangira akazi bityo rukabasha kwiteza imbere bikazarugirira akamaro mu gihe kizaza.

Umugore urimo gusobanura abantu bari mu nama, ari kubasobanurira ibyiza by'ubumwe n'ubwiyunge ndetse umugore ku isonga. Yambaye imyenda myiza y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abagore bari mu nama ihuza ibihugu, umwe afite uruhu rwera undi ni umwirabura. Umwirabura yambaye amarinete bateze amatwi inama icyo ivuga.

Abaturage basuwe n'abayobozi bari mu nama barimo gusobanurirwa ibyiza by'ubwisungane mu kwivuza mituweli ku buryo barahava biyemeje kuba bose bayitanga n'abagize imiryango yabo bose.

Urubyiruko ruri mu nama ya yufo conegite yiga ku buryo bwo guteza imbere urubyiruko bityo narwo rukibasha kuba rwakihangira imirimo bagatanga akazi ku batagafite.

Abantu bari munama nyunguranabikerezo, kumugambi bafite wo kuba batangiza umushinga, hakaba hari ubayoboye wambaye ishati ya oranje n'amarinete akaba afite n'imashini imbere ye.

Abantu bari mu nama bari kwiga ku bijyanye n'uburezi, uko umwana mu ishuri yakwitabwaho bityo akazavamo umuyobozi ubereye u Rwanda rw'ejo.

Inama irimo abantu b'ingeri zitandukanye bari kungurana ibitekerezo ku iterambere ry'igihugu harimo n'abanyamakuru bari gufata amajwi n'amashusho y'ibyavugiwe muri iyo nama kugira ngo bizakoreshwe.

Ifoto igaragaza abantu bari mu nama baratuje cyane barimo kungurana ibitekerezo, bari ahantu hari irangi ry'umweru bafite imashini imbere yabo.

Umugore uyoboye inama y'urubyiruko, bamwe bakaba bambaye amatisheti y'ubururu, abandi bakaba bambaye ay'icyatsi, ibyo byose bikaba bisobanura ubudasa bwa buri umwe.

Abantu bari mu nama bateze amatwi ndetse bose bari kumva igitekerezo cya mugenzi wabo kugira ngo barebe yuko hari itafari ryashyira ku bintu bikomeye cyane bamaze kugeraho kandi bose urabona yuko batuje.

Ifoto y'urwibutso, yafashwe igihe urubyiruko rwari ruvuye mu nama ibahuza n'abashoramari bakomeye bo muri Afurika, kugira ngo batange imishinga yabo, bityo izashorerwemo imari, bibagirire akamaro.

Abantu bari mu nama bari kuvugana n'abayobozi babo, bakaba barimo baragaragaza ibibazo bihari ndetse bakaba bazashakira hamwe ibisubizo by'ibyo bibazo kugira ngo bakomeze batere imbere.

Abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo, bari kuganira ku iterambere ry'umugore, ndetse n'uburyo umugore ashobora kwihangira umiriro, akaba inkingi y'iterambere mu muryango nyarwanda.

Ku biro by'akagari aho gitifu w'akagari arimo arereka abaturage uburyo basinya kugira ngo babashe kubona ingurane z'ubutaka bwabo bugiye gucishwamo umuhanda.

Abantu bari mu nama, bari kungurana ibitekerezo ku mihindagurikire y'ikirere, ndetse n'ingamba bafata kugira ngo bakomeze kubungabunga imitungo kamere; urugero nk'ibishanga, ndetse n'ibindi.

Abaturage bari mu nama, barimo kwigishwa ibyiza bya mituweri n'umuyobozi wabo, kandi bose barishimye ikigaragara cyo bahize yuko bose bazatanga mituweri uyu mwaka.

Abantu bari mu nama yiga ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, abagore, abagabo, bose barakurikiye kugira ngo bafatire hamwe ingamba zishobora gufasha ikirere cyacu kugirango gikumye gisa neza gisukuye.

Abantu bari mu nama barimo kwiga ku iterambere ry'igihugu cyacu, bakabona yuko bakwiriye gushyira ingufu cyane mu guteza imbere urubyiruko, harimo kubashishikariza kwihangira imirimo ndetse n'ibindi.

Abantu bari mu nama barimo kungurana ibitekerezo kuri gahunda ya leta ikigaragaracyo baraza kugera ku ntego kuko baratuje kandi barakurikiye barubahana.

Abantu bicaye bari mu nama, bari kungurana ibitekerezo ku mishinga itandukanye, bose baratuje bari kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo inyungu bazibone bose.

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo bari kwiga ku iterambere ry'umugore ndetse n'uruhare afite mu muryango nyarwanda kugira ngo bihushe.

Sheke nini cyane yatanzwe na aragibi yo ku itariki zirindwi z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na kane ahwanye na miliyoni mirongo ine n'eshatu n'ibihumbi maganacyenda makumyabiri na bitanu by'amanyarwanda.

Umugabo wafashe ijambo, arimo gusangiza abo bari kumwe mu na bo nama imigabo n'imigambi azabagezaho, bityo akaba yifuza ko bamutora bakamugirira ikizere.

Abagore babiri bahuriye mu nama barimo kuganira kuguteza imbere umugore umwana w'umukobwa akaza ku isonga kandi ibyo ngibyo bigafasha igihugu kurera abayobozi b'ejo hazaza.

Abantu bari mu nama bakaba bari kumwe n'umuyobozi wabo arimo kubasobanurira ibyiza byo kwigira, ndetse no gutanga mituweli abaturage bishimye cyane kuko basobanukiwe ibyiza byo gutanga mituweli.

Abantu bari mu nama, bari kwigira hamwe ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, ndetse birasa nk'aho ibisubizo bari bukuremo bizafasha iyi si ya none, ikaba itakomeza kwangiza ikirere rwose.

Urubyiruko ruri mu nama rurimo rurasobanurirwa ibyiza byo kwihangira imirimo, ndetse hakaba hari umugabo urimo kubasobanura neza ukuntu yihangiye imirimo ndetse bikaba byaramugejeje ku iterambere afite ubu.

Abantu bari basoje inama yiga ku mihindagurikire y'ibihe ariko bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyari cyarateye.

Ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru arabiyeyi, cyatumiyemo abayobozi batandukanye b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti.

Abantu bambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi bose bafite ingemwe z'ibiti mu ntoki zabo akaba ari umunsi mukuru wo gutera ibiti.

Rwanda reveni oriti ikaba irimo iributsa uburenganzira bw'abasora, yuko bagomba kubaza amakuru ariko bakanishyura mbere y'uko igihe ntarengwa bahawe, kigera bakirinda amande.

Uburyo bwerekana ukuntu ushobora gukoresha itara ry'umuriro w'amashanyarazi, ukaryifungira haba mugikoni cyawe, cyangwa se mucyumba cyawe, ariko icy'ingenzi ni uko wambara ga kugira ngo ritangirika.

Enterineti nziza cyane ya wayifayi ikaba ari interineti idasaba gucomeka imigozi, bityo aho waba uri hose ukabasha kuyikoresha wigendera ndetse no mu kazi kawe.

Icyemezo kerekana umuntu warokotse jenoside, ibyo akeneye byose kugira ngo abashe kuba yatunga umuryango we, ndetse na serivise yemerewe guhabwa ku buntu kugira ngo bimworohere.

Umunsi mpuzamahanga w'abakozi urabura umunsi umwe gusa kugira ngo ube. Nibyo bagaragaje hano ku gipankarite basizeho inyuma hakaba hari inzu nziza cyane uwo munsi mukuru uraberamo.

Ushobora gukora imirimo y'ubuvoronteri ndetse ukazaba wanabona akazi. Uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa gatatu, ntugucike rwose. Ubwo rero uzasubizwa ku itariki makumyabiri n'ebyiri, umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane.

Sisiteme ya Rwanda reveni, irimo irashishikariza abacuruzi bose kuba bakoresha ibiyemu, kugira ngo babe batange inyemezabwishyu zemewe, bityo birinde ibihano n'amande.

Inyemezabwishyu igaragaza uburyo ushobora kwisabira serivisi yawe, wibereye mu rugo ndetse ugakoresha telefone yawe, kandi serivisi wasabye ikakugeraho nta kibazo kibayemo.

Uburyo wakwigishamo umuntu, bwo gucuruza ukoresheje ikoranabuhanga. Ushyiramo urufunguzo, kugira ngo ubashe kugera kuri porodakiti ukeneye kugura, mu buryo bworoshye cyane.

Agafurayazi kagaragaza ukuntu ushobora kwigurira gaze yawe bityo igahita ikugeraho ako kanya hariho kandi n'amabwiriza agaragaza ukuntu iryo cupa wajya uribika neza ntiriteze impanuka.

Abantu bari mu nama bari kungurana ibitekerezo ku cyo bakora, kugira ngo umushinga wabo urusheho kugenda neza kandi utange umusaruro ukwiye kuba watanga. Bose baratuje bafite imashini imbere yabo.

Ikigo cy'igihugu Rura Rwanda, kikaba cyarabujije abantu bakoresha imodoka rusange kuba bakwishyura amafaranga mu ntoki, ahubwo bose bagomba kuba bafite ikarita ya tapu andi go, bagashyiraho amafaranga yabo.

Ahabereye inama ya keeping all connected yiga ku ikoranabuhanga mu rubyiruko ndetse n'uburyo bakiteza imbere bakabyaza umusaruro amahirwe bafite yo kuba bazi ikoranabuhanga.

Inzu icuruza imyenda n'inkweto yaba ibyo kujyana mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibyo gusohokana ndetse n'ibikapu bitandukanye buri kintu bitewe n'uko kigiye kingana harimo ingano zitandukanye.

Idarapo ry'u Rwanda ririmo ubururu, umuhondo n'icyatsi ndetse n'izuba riri mu mabara y'icyatsi ariko rikaba rishushanyije ahagana hejuru iburyo mu ibara ry'ubururu.

Urubyiruko rufasha bagenzi babo mu kwiteza imbere binyuriye mu ikoranabuhanga, babigisha uko bahanga imirimo n'udushya bishingiye ku ikoranabuhanga rigezweho.

Uburyo ikigo cy'imisoro n amahoro Rwanda reveni otoriti, cyashyizeho uburyo wishyura imisoro utavuye aho uri, ukoresheje ikoranabuhanga rya telefone yawe cyangwa se imashini yawe ukabasha kwishyura.

Ikigo rwanda edukasheni bodi gishinzwe uburezi bw'amashuri abanza n'ayisumbuye kikaba cyatanze ingengabihe y'igihe ibizamini bizakorerwa ni ukuvuga ibyo mu mashuri yisumbuye.

Umwarimu urimo kwigisha abana ikoranabuhanga akoresheje mudasobwa, abana bateze amatwi kandi bose barishimye kuko barimo gukoresha ikoranabuhanga.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuyobozi RGB kikaba cyatanze mandate isobanura neza uko itegeko rijyanye n'imiyoborere rikurikizwa mu rwanda.

Banki ya eko banki Afuricani banki irimo irerekana uburyo bakoresha viza yabo, vizakadi yabo, hari abantu baje kwiga uburyo bushya bazajya bakoreshamo iyi vizakadi bikaborohera.

Urupapuro ruriho Rwanda resipiratori, rugaragaza aho bashyira umwirondoro, ndetse n'aho bashyira ijambo banga, kugira ngo ubashe kwinjira kuri uru rubuga rwa Rwanda repisiratori.

Uburyo Rwanda revenu yashyizeho bwo kuba wamenyekanisha umusoro ndetse ukaba wanakwishyura amatariki ntarengwa atarinze kugufata, ibyo byose ukaba wabyikorera na telefone yawe cyangwa mudasobwa.

Abanyeshuri bambaye inifomu zikurikira ishati y'umweru ipantaro ya kake barakurikiye mu ishuri barimo kwiga ikoranabuhanga buri wese muri bo afite imashini ye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye iriho urujya n'uruza rw'abantu bashaka ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'abagiye muri gahunda zabo zitandukanye, imvura imajije kugwa hari n'abandi bugamye.

Umunara mure mure uri mu mabara y'icyatsi, uwo munara ukaba uri mu gipangu cyubakishije ruriba, uwo munara kandi ukaba ukoze mu buryo bumeze nk'inyubako ukaba utanga enterinete.

Uburyo Rwanda Reveni yashyizeho kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kwiyishyurira imisoro yibereye iwe mu rugo, akoresheje urubuga rw'irembo, ibyongibyo bikaba bibafasha kwihutisha, dore yuko dedi layini ari makunya n'eshati z'ukwa cumi.

Rwanda revenu ikaba yaratanze ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu, nk'itariki ntarengwa abasora bagomba kuba baramenyekanishijeho umusoro wabo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda reveni otoriti, kikaba kirimo kubamenyesha yuko kimuriye amashami yacyo aha hakurikira; Kimironko,i Remera, i Nyamirambo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi Rwanda edikesheni bodi, Rebu. Kikaba kirimo kiragaragaza ikirangantego cyacyo kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Garagaza impano yawe maze ucitsire miliyoni, dore ibihangano icumi byahize ibindi mu marushanwa ya Rwanda reveni kereyative indasitiri, carenji, uwa mbere sikayineze foriyo birifigisi, kabiri kwini tisida, gatatu dinapowetesi.

Umunara wa MTN ndetse na Tigo ukaba utanga network zaba iza internet cyangwa izo guhamagara kubaturage batuye hafi aho ngaho.

Ikigo cy igihugu cya arajibi Rwanda gavumensi bodi, ni ukuvuga ikigo gishinzwe imiyoborere kirimo kirerekana serivisi gitanga ushobora gusaba ukoresheje ikoranabuhanga.

Itangazo rya Rwanda reveni rigaragaza igihe ntarengwa abantu bagomba kuba bamaze kudekarara buzinesi zabo n'imitungo yabo, igihe ntarengwa ni itariki mirongo itatu n'imwe' z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri nari rimwe.

Umuhanda nyabagendwa, ruguru y'umuhanda hari igipangu kiza cyane gisize ibara ry'umweru ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane burimo ibiti byiza, hari n'umuriro w'amashanyarazi ubafasha gucana.

Taransifa y'umuriro w'amashanyarazi igaragara iteretse ahantu muri karitsiye, kugira ngo ibashe kuba yaha umuriro abantu batuye aho ngaho bityo bakomeze imirimo ya bo ntakibazo.

Urujya n'uruza rw'abantu ahantu hakorerwa imirimo y'ubucuruzi mu nzu y'amagorofa abiri hari n'ipoto y'amashanyarazi itanga umuriro ukoreshwa n'aba bantu mu bucuruzi bwabo butandukanye.

Ipoto y'amashanyarazi, iri hafi y'igipangu cyubakishije ruriba, ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane. Iyo nzu iri iruhande rw'iyo poto ifite amabati atukura.

Inyubako y'ubucuruzi y'amagorofa atatu, ikoreramo abantu batandukanye, harimo abakoreramo sitidiyo, harimo abakoreramo salo ijyanye no gutunganya imisatsi.

Ipoto y'amashanyarazi iriho n'insinga zijyana umuriro mu baturage kugira ngo babashe kuwukoresha ibikorwa bitandukanye bibateza imbere ndetse banabone uburyo bacana amatara habone kandi bishime cyane.

Ipoto y'amashanyarazi ndetse ifite na regirateri munsi yayo, ikaba iteye mu kibanza kirimo ibindi bintu bitandukanye, urugero nk'ibiti, indabo ndetse n'ibindi, ikaba iri hafi y'umuhanda kose.

Umuhanda nyabagendwa uriho n'umuriro w'amashanyarazi ni ukuvuga amatara awumurikira, hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru bashobora kugendamo bafite umutekano usesuye.

Ipoto y'amashanyarazi iriho taransifa irimo gukora umuriro w'amashanyarazi kugira ngo abaturage babashe kubona uwo bakoresha kandi ibingibi bikaba byihutisha iterambere ryabo.

Umuhanda nyabagendwa urimo abamotari, abagenzi, abatwara amapikipiki ndetse n'abantu barimo kwambuka umuhanda, uyu muhanda ufite n'amatara awumurikira mu gihe cya n'ijoro ukabasha kubona.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, ibara ry'ubururu ryandikishije amabara y'umweru agaragaza rond-point, aho banyura bazengurutse.

Hejuru y'inyubako hariho icyuma gishyushya amazi, hakurya yaho hari amapoto anyuraho umuriro w'amashanyarazi, kugirango abaturage babashe kuba bakora imirimo yabo bibateza imbere.

Ipoto ry'amashanyarazi ya taransifa rikaba rijyana umuriro rikambutsa insinga mu kirere, kugira ngo n'abatuye kure cyane mu turere tw'icyaro babashe kubona umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka ikora ubutagisi vuwatire y'umweru ifite ibirahure bibonerana ikaba iparitse muri parikingi ikaba yegeranye n'indi vatire nziza cyane y'umukara ku ruhande rwazo, haparitse moto.

Ipoto y'amashanyarazi ndende cyane, iriho taransifa, iriho ndetse insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mubaturage kugira ngo babashe kuba bacana ninjoro.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ya sosiyete itwara abantu mu mujyi wa kigali izwi nka litico iparitse muri gare itegereje yuko abagenzi bajyamo bityo ikabageza aho bagiye.

Icyapa kigaragaza aho umuhanda munini n'umutoya bihurira bikaba bimenyesha abashoferi y'uko mu gihe bahageze bagomba kwitonda bakagenda gakeya bagakurikiza ufite piriyorite yo kugenda.

Ipoto y'amashanyarazi ririho n'insinga zijyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage, bityo bakabasha kubona urumuri n'ijoro imirimo igakomeza bitabaye ngombwa ko ihagarara.

Ahantu hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zijyana umiriro mu ngo z'abaturage bakabasha gucana mu masaha ya nijoro.

Igipangu giherereye i Kigali, kuri site ya magana atandatu, mirongo itanu na karindwi, nimero yaho ya kane. Kikaba cyubakishije udutafari duhiye, ndetse kikaba gifite inzu irimo mo imbere, ifite antene ya kanari.

Umutaka wa Emutiyene uteretse ahantu hari ibiti byiza cyane, iruhande rwayo haparitse imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange. Hirya y'aho hari igipangu cyubakishije giriyage.

Taransifo y'umuriro w'amashanyarazi ikaba jeneratinga amashanyarazi mu giturage cyo hafi aha, imirimo ikaba ishobora gukomeza nta kikuba cyacitse, ndetse bakabasha no kuba bacanirwa n'injoro hakabona. .

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ikaba munsi yaho hariho taransifa cyangwa regerateri ishobora kuba yatanga amashanyarazi ku baturage batuye hafi aho ngaho bityo bose bakabasha gukora imirimo yabo.

Ipoto y'amashanyarazi ndende cyane itwaye insinga zigeza amashanyarazi mu giturage, bityo bakaba bazabasha gukora imirimo yabo ndetse bakabasha no kwiteza imbere.

Aho icyicaro cy'umurenge wa kinyinya gikorera haparitse ivatiri iri mu ibara ry'umweru hari n'umugabo wambaye neza agapfukamunwa wambaye umupira w'umuhondo ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara.

Ibaraza ry'ahantu batangira serivise z'ibitaro, ni ukuvuga muri operasiyo, mu ibagiro, ahangaha akaba ari ho abaturage bategerereje, kugira ngo na bo babage indwara zabababaje.

Abantu bicaye bategereje igihe bari bugererweho kugira ngo bahabwe serivisi bakeneye bamwe ni abagore abandi ni abagabo, igice kimwe cyo hepfo cyo kiriho umukobwa n' umuhungu.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti byiza bitarakura cyane bikaba bisa neza hakaba hari n'amazu yubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda nyabagendwa unyura kuri kaminuza ya sehashi ibe hari idarapo ry' urwanda rigizwe n'amabara akurikira ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umuhanda w'amabuye ugana ku kigo nderabuzima ndetse hari na ambulance ishobora kuba itwaye umurwayi, hari kandi n'izindi modoka zishobora kuba zazanye abantu batanga serivisi.

Ikigo cyita ku bana bamugaye n'abafite ibibazo by'ingingo zitameze neza, ikigo cyubatse neza kandi cyabaye igisubizo ku bana bafite ubumuga.

Abantu bicaye batuje bategereje guhabwa serivise bicaye ku murongo umwe kuri umwe baraza kugerwaho kandi bitarambiranye rwose.

Inyubako igeretse gatatu ikaba isize amarangi agiye atandukanye, hakaba ifite amakaro ndetse na giriyaje cyangwa se garide fo zikozwe mu byuma, ikaba irimo amakaro meza cyane y'umweru.

Ku kigo nderabuzima abantu batonze umurongo kandi bose baratuje barimo kugerwaho umwe kuri umwe umwe kuri umwe bakareba ikibazo bafite bose bafite ikizere kandi bafite mituweli.

Icyapa kigaragaza itorero rya Muhanga aho rikorera giriyaje z'umukara ndetse hasize irangi ry'umweru rigaragara neza cyane.

Umugabo n'umugore bari mu nama, umugore afite imashini arimo kwandikamo cyangwa se akaba ari gusomamo ibyavuye mu nama cyangwa se ibitekerezo by'ingenzi yari yakusanyije ari butangemo.

Abantu bari munama ariko bakaba ari abayobozi b'ishyaka runaka, mugihugu cy'urwanda kuko bari no kungurana ibitekerezo kandi bose bambaye idarapo ry'Urwanda mu gatuza kabo.

Abaturage bari mu nama y'icyiciro cy'ubudehe ndetse barimo kubwirwa ikiza cyo gutanga mituweri kuri buri muntu ugize umuryango wabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ububiko bugaragaza ibyaha byagiye biburanishwa n'urukiko rw'ubujurire, ndetse n'ibindi bikiri mu mpapuro, ariko bikaba byose hamwe bigitegereje kuburanishwa n'ingingo mpanabyaha zabyo.

Ingingo mpanabyaha z'amtegeko ahana y'u Rwanda ingingo yaho ya cumi na gatatu igaragaza neza uburenganzira bw'umukozi ingingo ya cumi na kane, nayo iragaragaraho hano.

Igazeti ya leta yo ku wa makumyabiri z'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ingingo yaho ya cumi na gatanu gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite.

Gereza ya nyanza ni iyo mu gihumbi kimwe magana kenda na mirongo ikenda n'umunani igipangu cyayo cyubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'umweru n'iry'umukara.

Umugabo uri mu maboko y'ubutabera akaba arimo kujyanwa mu cyumba cy'iburanishwa kugira ngo ashinjwe ibyaha aregwa kandi nahamwa nabyo ahanwe bikomeye.

Igazeti ya Leta yo kuwa makumyabiri na kabiri zo kuwa cumi na kabiri igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda n'icyenda, ku mutwe wayo wa mbere, ingingo rusange.

Imfungwa n'abagororwa barimo kuganira ku nyigisho nziza bahawe kandi bakaba bariyeyemeje kwisubiraho kugira ngo igihe bazaba bafunguwe bazatange umusanzu wabo muri sosiyete nyarwanda.

umugabo urimo kubazwa ibibazo bigiye bitandukanye arimo kubisubiza afite akanyamuneza ndetse n'umutima ucyeke ibyo bigaragaza yuko atarimo kubeshya mu byo ari kuvuga byose.

Umugabo wari uzwi cyane mu Rwanda akaba yari umuhanzi witwa kizito mihigo ifoto ye igaragara neza yambaye imyambaro y'imfungwa n'abagororwa y'iroze.

Abantu bari mu nama bayobowe n'umuyobozi wabo. Bari kungurana ibitekerezo; ari no kubasobanurira ku bya mituweli ndetse ari kubabwira yuko aribo bifitiye akamaro kuko bizatuma bivuza neza.

Ifoto y'uwitwa feresiye kabuga akaba yari umukire mu Rwanda ndetse akaba yashyiriweho amafaranga ahwanye na miliyoni eshanu y'igihembo ku wamubazanira.

Gereza yo mu gihumbi kimwe magana akenda mirongo itatu irimo imfungwa n'abagororwa kubera ibyaha bakoze. Bambara ikabutura ya orange ndetse n'amashati ya orange.

Abantu babiri bari mu nama ikigaragara cyo ni umugabo n'umugore bakaba barimo kuganira ku birimo kuvugirwa mu nama, bari kungurana ibitekerezo by'ibyo bakora kugira ngo ibintu bigende neza.

Igazeti ya leta yo ku wa 20/09/2018 ku ngingo yaho ya gatatu, aritikile ya kane aho ho niho babisobanuye neza.

Kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ishobora kuba yatatse ahantu hashobora kuba harimo intera byibura ingana na metero icumi, ikaba ishobora kwifashishwa mu kuzimya iyo nkongi.

Abashinzwe umutekano wa repubulika y'Urwanda ni ukuvuga abapolisi, bakaba barimo gucunga umutekano bahagararanye; kandi abaturage nta kibazo bari bugire kuko bararinzwe.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ya Polisi y'u Rwanda, iri mu mabara y'umukara n'umweru. Iyi modoka izwi ku izina rya pandagare, Polisi iyifashisha mu gucunga umutekano.

Aho bacuruza amarada cyangwa se urwego rwo kuririraho kugira ngo ubashe gushyikira ahantu harehare utabasha kugera. Izi nzego zikaba zirimo zifashishwa mu kubaka no gukora amashanyarazi n'ibindi.

Imodoka ya polisi ya pandagare ikoreshwa muri transport kugira ngo akazi ko gucunga umutekano korohere abapolisi bari mu kazi kabo ka buri munsi.

Imodoka y'umukara n'umweru urwego rushinzwe umutekano rwa polisi y' u Rwanda rukoresha mu gucunga umutekano, abenegihugu barabakunda cyane.

Abakandida barimo kwiyamamaza b'ishyaka rya girini pati barimo kuvuga imigabo n'imigambi bazakorera abaturage kugira babone amajwi yo kubatora bityo bakaba perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore wambaye ishati y'ubururu n'amarinete arimo arasinyira abaturage ku byangombwa bari bakeneye kugira ngo babone serivise z'ingenzi bakeneye.

Umukandida perezida arimo arabwira imigabo ye n'imigambi abaturage kugira ngo bazamuhundagazeho amajwi bityo ibyo yabasezeranyije natorwa azabibagezeho.

Umugabo urimo kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika y'u rwanda witwa mpayimana firipe arimo aratanga imigabo n'imigambi yiwe ,ayigeza ku baturage n'icyo azabagezaho.

Abaturage bari ku murongo baje kwaka serivisi buri wese akeneye kandi barategereje batuje nta muvundo bafite kandi bose barishimye kuko izo serivisi bazikeneye.

Abagabo babiri barimo bose barasinya ku masezerano y'ubwumvikane ndetse banafashe ifoto y'urwibutso kugira ngo hazahore hibukwa umunsi bashyiriye amasezerano kuri uwo munsi.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arimo arasuhuza abaturage mu gihe cye cyo kwiyamamaza ababwira ibyo azabagezaho, imigabo n'imigambi azabagezaho nibamutora.

Abayobozi batandukanye barimo baraharahirira ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ku nshingano nshya bahawe kandi bose bari kwiyemeza kuzasigasira ubumwe bw'abanyarwanda, bakanasohoza ibyo barahiriye gukora.

Umugore wahoze ari umuyobozi muri repubulika y' u Rwanda ya kera aragaragara mu mashusho yambaye amarinete y'umukara ndetse yasetse cyane yari avuye mu nama.

Umukuru w'igihugu arimo arabwira abatura Rwanda intambwe bagomba kwishyiriraho kugira ngo bakomeze kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza twifuza ruzira amacakubiri.

Abagabo n'abagore bamaze kubona inyemezabushobozi bakuye mu mahugurwa bari bahawe barimo gufata ifoto y'urwibutso bari kumwe n'abayobozi babo.

Uwahoze ari perezida w'igihugu cyacu repubulika y'u Rwanda kuva mu gihumbi kimwe magana inani, igihumbi kimwe magana akenda, uyu niwe wahoze ari perezida akaba yitwa Juvenari Habyarimana.

Abantu bari mu nama barimo barungurana ibitekerezo, ndetse bakanamenyesha umuyobozi wa Repubulika y' u Rwanda ariwe Paul Kagame, bari kumubwira ibyagezweho byose; byose.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa dayihatsu iri mu muhanda nyabagendwa, irimo irerekeza i Nyamirambo itwaye imizigo.

Ikamyo yo mu bwoko bwa fuso, itwawe n'umushoferi wambaye umupira wa oranje, hari ndetse n'umumotari utwaye umugenzi uri kuri telefone, bombi bakaba bari mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa usa neza cyane urimo umumotari wenyine nta bindi binyabiziga birimo, nta muvundo uhari ariko harakeye cyane ni kumananywa mu masaha y'igicamunsi.

Ibiti byiza cyane biri kuruhande rw'umuhanda nyabagendwa. Mu muhanda hakaba hari kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba harimo n'ikamyo itwara imizigo ndetse iyo kamyo ikaba iri kubisikana n'imodoka nziza y'umukara.

Inzira nyabagendwa irimo ikamyo yo mu bwoko bwa fuso, irimo umuntu twakwita nka kigingi uyigendamo inyuma ahagazemo, hari n'umumotari urimo kubisikana n'iyi kamyo, umumotari atwaye umuntu kuri moto.

Itagiisi itwara abantu iri muri gare ya nyabugogo iyi tagisi ikaba ari iya kampani ya yahu ekisipuresi, irasa umweru, ni iyo mubwoko bwa kwasiteri.

Imodoka ikoreshwa mu kwigiraho abanyeshuri bakaba bashaka kwiga gutwara ibinyabiziga ari benshi ariko bategereje mugenzi wabo urimo kugirango arangize kwiga nabo babone bajyeho.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga cya hoho, ikaba iri mu bwoko bw'amakamyo butwara ibizigo urugero umucanga, ibiti, amabuye ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso itwara imizigo ikaba, ipakiye ibyuma ndetse ikaba ifite n'uwo twakita nka kigingi inyuma ugenda ureba ko imizigo imeze neza. Iri mu muhanda nyabagendwa iri kubisikana na moto.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ya minibisi ifite pulake eri eyi efuzeru mirongo itatu n'umunani hashi, ikaba yiteguye guhaguruka abagenzi nibamara kuzuramo.

Umuhanda nyabagendwawa urimo ikamyo yo mu bwoko bwa hoho ifite ibara ry'umuhondo, imbere yaho hari umumotari uhagaze urimo gushyiraho umugenzi kuri moto.

Ikinyamitende gihetse umutwaro kiri mu muhanda nyabagendwa ariko giparitse ku ruhande kugira ngo kibashe kuba cyatwara n'umugenzi abashe kugera aho ashaka.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo: amapikipiki, amakamyo, tagisi zitwara abantu ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo.

Umuhanda nyabagendwa, inzira yo kwambukiramo, imodoka iyo zigeze ku kayira abanyamaguru bambukiramo zirahagarara zikabarindira bakabanza bakambuka mu mutekano usesuye.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaraho taransiporo zitandukanye, harimo abagenda na moto, abagenda n'amaguru, abatwara abagenzi mu modoka rusange, ndetse hakaba n'imodoka z'abantu ku giti cyabo.

Ibiti byiza cyane biri hafi y'umuhanda nyabagendwa urimo kunyuramo ikamyo ya hoho ikoreye umucanga, iri m'ibara ry'umutuku, umushoferi wayo akaba yambaye ingofero imurinda izuba.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'imodoka zinyuranaho harimo ikamyo yo mu bwoko bwa fuso, hari n'abamotari batwaye abagenzi kuri moto, hari n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Umuhanda nyabagendwa, utarimo ibinyabiziga byinshi wicyerekezo kimwe, urimo umumotari umwe ufite umugenzi w'umukobwa barimo kugenda bose ntakibazo bafite.

Umuhanda nyabagendwa urimo umumotari utwaye umugenzi kuri moto barimo kuzamuka mu muhanda w'icyerekezo kimwe, iruhande rwe hari igiti cy'umunyinya.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikamyo y'umutuku yo mu bwoko bwa hoho, itwawe n'umusore ukiri muto, wikuye igice cye cyo hejuru yambaye ubusa.

Imodoka y'ikamyo yo mu bwoko bwa fuso itwara ibicuruzwa ikaba ihagaze irimo irapakira imizigo, kugir ango iyigeze kuri banyirayo nta nkomyi kandi mu gihe cyanyacyo.

Inyubako iri mu mujyi wa Kigali, ifite amagorofa abiri ndetse ikaba iriho hejuru ibyuma bisakaza amajwi n'amashusho. Iruhande rwayo hari umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga.

Umuyoboro wa interineti w'iyakure ariko udakenera imigozi witwa wiyifayi ibi bikaba bisobanuye yuko ukugeraho bitabaye ngombwa y'uko ukoresha imigozi.

Muri kari furi zone aho abanyamaguru bagenda ariko badahura n'imodoka, cyangwa se bikanga abamotari bashobora kubagonga, ahangaha abantu barahahurira benshi bakahaganirira.

Ikibuga cy'umupira abakinnyi b'umupira w'amaguri barimo kugikiniramo, iki kibuga gikoze neza cyane kuko kirimo tapi ishobora kukirinda kuba ikibuga cyakwangirika.

Icyapa kimenyesha kiri mu ishusho ya mpande eshatu ibara ry'umuhondo, kikaba cyandikishije ibara ry'umukara kimenyekanisha y'uko ibinyabiziga bigomba kunyuranaho.

Icyapa kibuza cyandikishije umutuku, gisobanuye yuko nta parikingi y'ibinyabiziga ibyo aribyo byose bihaparikwa, iki cyapa kirabuza.

Icyapa kimenyesha, kiri mu ishusho ya kare, ibara ry'umuhondo, cyandikishije umukara. Kimenyesha yuko umuhanda munini ugiye kwinjirwamo n'agahanda gatoya gaturuka muri karitsiye.

Icyapa kiri mu ishisho y'urukiramende, cyandite mu mabara y'umukara, ubuso n'ibara ry'umweru cyerekan aho inzira yabanyamaguru ibarizwa. Imodoka iyo zihageze zirahagarara.

Ibimenyetso bimurika byo mu muhanda ni ukuvuga feruje kirimo kugaragaza yuko ibinyabiziga bishobora gukomeza kugenda ntakibazo ntankomyi ihari rwose.

Icyapa kiri mu isusho ya kare, gisa umuhondo n'umukara, cyerekana umuhanda aho uhurira n'uwundi. Iki kiri mu byapa biburira yuko ugiye kwinjira mu wundi muhanda.

Umuhanda nyabagendwa werekeza Huye uriho icyapa kiyobora kiranga, ndetse kinereka abatwaye ibinyabiziga aho bashobora kunyura, kugira ngo bagere aho bagiye abagiye Nyamiyaga bakata iburyo abagiye Huye bakomeza imbere.

Icyapa kiri mu bwoko bw'ibibuza, kiri mu ishusho y'uruziga, cyandikishije amabara y'umweru, cya sitopu, kimenyesha guhagarara.

Ibyapa byo mu muhanda bihurira n'ibyerekana ishusho y'icyatsi kibisi irimo abanyamaguru aho banyura ndetse n'ikindi kiri munsi kigaragaza kubisikana.

Ahantu hari ibyumba byo kuba wakodesha aha ngaha hakaba hari ibyumba by'amacumbi ushobora kuba wararamo hafi yaho hari farumasi ndetse hari naho ushobora kugurira amiyinite aramutse agushiranye.

Inyubako ya Biza plaza igeretse kabiri, ikaba ifite ibirahure bya fime isize irange ry'icyatsi inyuma, ikaba iherereye kimironko hafi y'umurenge wa kimironko ikaba ifite na jaride nziza.

Umuhanda nyabagerwa ufite akayira k'abanyamaguru, umuhanda ugaragara nkaho ushaje hafi yaho hari igipangu cya Ruriba.

Igipangu kirimo inzu ya kadasiteri, ifite amabati atukura, ifite ibirahure bya fime, ifite igipangu cy'umukara, ndetse iteye n'irange ry'umweru mo mo imbere, inyuma rikaba risa icyatsi.

Abantu bahagaze bategereje bari ku murongo bategereje imodoka, cyangwa se bakaba bategereje imodoka ziza kubatwara, haba mu buryo bwa rusange abandi barashaka gutega moto.

Igice cy'umugi wa kigali kigaragaza inzu nziza cyane abantu bahatuye barishimye kuko batuye neza bihuje n'igishushanyo cy'umugi icyo kigena

Umuhanda nyabagendwa umaze igihe wubatse, udafite inzira y'abanyamaguru, ndetse wuzuyemo ivumbi ryinshi, aho bigararaga ko nta mvura iheruka kugwa.

Amazu y'ubucuruzi asa ku buryo ibicuruzwa bikorerwamo bishobora kuba ari byiza kandi byujuje ubuziranenge, ari mu cyanya cy'inganda.

Umuhanda nyabagendwa urimo urujya n'uruza rw'abantu, imodoka zibisikana na moto. Bose barimo kujya mu kazi kandi bafite ikizere ku maso yabo, umuhanda urimo kaburimbo urasa neza.

Inyubako y'amagorofa agera kuri atatu, nziza cyane isize ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu bwijimye, ikaba ifite n'akabariko hejuru. Akabaraza gateye amabengeza.

Inzu nziza cyane iherereye Kicukiro ikaba ari hoteli igeretse kabiri ku gipangu nimero ijana na cumi n'icyenda kikaba kigeraho umuhanda wa kaburimbo kuhagera biroroshye.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu hari abantu bavuye kugura imyenda yo kwambara, inkweto nziza zo kwambara zo mu mabara atandukanye ndetse hari n'umumotari Uparitse utegereje umugenzi.

Amazu meza cyane ari munsi y'umuhanda wa kaburimbo, afite ibisenge byiza cyane, ibyinshi muri byo birasa umutuku harimo n'ibindi bisa oranje, hakaba hari umuriro w'amashanyarazi ubafasha gucana nijoro.

Inyubako nziza cyane iteye amabengeza isize amabara y'umutuku n'umukara igeretse gatatu iriho ibyuma bizana ubushyuhe n'ubukonje mu nyubako.

Parikingi irimo imodoka nziza cyane imodoka ibanza ni ubwoko toyota imodoka ikurikira ni benzi, imodoka ya gatatu ni toyota y'umukara yo mu bwoko bwa rava fo.

Inyubako igeretse kabiri, ifite giriyaje z'ibyuma, ibirahure bya fime, isize irange ry'icyatsi cyererutse, ifite n'uburyo bumanura amazi buyavana hejuru bukayageza hasi.

Itara rimanitseho icyapa cyamamaza riri munsi y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye ahantu hari ibiti byinshi aho hantu akaba ari i Remera.

Abamotari batwaye moto, bari gushyiramo abagenzi, ahantu hari umuhanda mwiza cyane, hari n'inzu y'ubucuruzi, hari na parikingi y'abo bacuruzi.

Inzu ya paritoma ikodeshwa y'amacumbi iri ahantu heza cyane ifite amabara y'umweru ikaba ifite amabati y'umutuku inzu nziza cyane.

Ahantu mu cyanya cyahariwe inganda, ahongaho hakaba hubatse uruganda rwiza cyane, ruri mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu, ibyongibyo bikaba byarakozwe kugira ngo inganda zisanzure.

Inyubako nziza cyane ifite amabati y'umutuku ikaba ifite ibirahure bya fime ikaba ifite n'ubusitani bwiza cyane ikaba inyuraraho umuhanda wa kaburimbo birumvikana ko byoroshye kuyigeraho.

Ikigo cy'abana b'incuke kigaragaza abana barimo barakina mu kibuga kirimo ubusitani bwiza kandi harimo n'ibikinisho bigiye bitandukanye. Abana barishimye rwose

Igipangu cyubakishije amafatari meza cyane ya Ruliba, kikaba gifire amagiriyaje asize ibara ryiza rya kaki, kikaba gifite ibiti byiza cyane by'imikindo.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaza aho abanyamaguru bambukira ndetse n'itara, amatara ari mu muhanda nyabagendwa amurikira ibinyabiziga mu gihe cy'ijoro kugira ngo babashe kubona aho bagiye.

Akayira k'abanyamaguru kubatse neza cyane hamwe n'urukuta rukingira umukingo kugira ngo utazagwa mu muhanda, uyu muhanda urasa neza cyane ufite n'amatara awuboneshereza.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, moto, amagare ndetse n'abagenzi barimo gushaka uburyo bagera mu rugo bagenze kuri moto cyangwa amagare.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaza uburyo abanyamaguru bashobora kwambukira ahabugenewe ndetse hakaba n'akayira abanyamaguru bashobora kunyuramo bityo bakagenda bafite umutekano uyu muhanda urasa neza.

Umuhanda nyabagendwa ushamikiyeho indi mihanda myinshi ndetse hariho n'aho banyura bazengurutse aho tubona yuko hari bisi itwaye abanyeshuri irimo kubisikana na moto zitwaye abagenzi bajya mu kazi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye ugendwamo mu cyerekezo kimwe, urimo moto ndetse n'imodoka yo mu bwoko bwa toyota y'umukara irimo kubisikana na moto.

Umuhanda nyabagendwa werekana ibimenyetso bimurika, ndetse hari n'inzira y'abanyamaguru bashobora kwambukiramo nta nkomyi. Imodoka iyo zigeze ahongaho zireka abanyamaguru bakambuka.

Umuhanda nyabagendwa, utarimo imodoka nyinshi cyane, ku ruhande hari n'akayira k'abanyamaguru kagaragaza aho bagomba guca. Hari kandi n'akagarurarumuri kerekana inkombe z'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye amamoto, amamodoka ndetse n'atwara abantu mu buryo bwa rusange, arimo kugaragaraho aho abanyamaguru bambukira imodoka zigategereza bakambuka.

Inzira nyabagendwa irimo ikamyo yo mu bwoko bwa fuso, imbere yayo hari abamotari bari kugenda mu gice kimwe cy'umuhanda kigana iburyo ndetse hari n'abantu bari mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa uriho akayira k'abanyamaguru, uriho akagarurarumuri kagaragaza inkombe z'umuhanda aho zigarukira. Abanyamaguru ndetse n'abatwaye imodoka bose barabyishimira cyane.

Imodoka zirimo kubisikana, imwe ifite ibara ry'umutuku, ifite umuryango umwe wo binjiriramo, indi ifite ibara ry'umweru, ifite imiryangoibiri yo binjiriramo.

Umuhanda nyabagendwa unyura munsi y'ikiraro cyo ku Kinamba urimo imodoka amakamyo ndetse na moto aho bose batwara batuje nta kibazo bafite.